Icyumba kirimo ababyeyi, abana, hari abagabo bahagaze imbere, barimo umudaso n'umusirikare.

Ishuri ry'inshuke ryibakishije amatafari ahiye, risize irangi ry'umuhondo n'umweru, risakaje amabati y'umutuku, ndetse kuri iri shuri hashushanyijeho ibishushanyo bitandukanye.

Iki ni icyumba kirimo ingofero imwe yiganjemo ibara ry'umuhondo, iyindi ni umweru.

Abanyeshuri baje gukina bari kumwe n'abasore bakuru bambaye imipira y'umuhondo ahantu bari gukinira hubakishije amarange y'ubururu, umweru n'umuhondo, impande yaho kandi hari ibiti.

Abana bo mashuri y'inshuke bigishwa ibintu bigiye bitandukanye. Aha ngaha turabona ifoto iriho umuntu wicaye ndetse n'abana barimo gukina, bakoze uruziga, barimo gusimbuka. Ibi ngibi bifasha abana kwishima.

Ikigo cy'amashuri kegereye umuhanda w'ibitaka, kuri uyu muhanda hubatse ikintu cyanditseho jiyesi burega, impande yacyo hateye indabo.

Aha ni ku ishuri rya Nyagatare Modern School, imbere y'iri shuri abanyeshuri bambaye imyenda y'ubururu n'umweru, hafi y'iri shuri kandi hateye n'igiti.

Ibikoresho byifashishwa mu isomo ry'imibare, harimo agacaruziga, agacamurongo n'irati ya mpande eshatu.

Iki ni icyumba k'ishuri kirimo mudasobwa zirambitse ku meza, harimo ikibaho cy'umukara, muri iri shuri harimo n'abantu babiri barimo umugabo w'unamye wambaye itabriya y'umweru.

Umwarimu w'umugore uhagaze imbere ku kibaho, arimo kwigisha isomo ryimibare, afite igitabo mu ntoki.

Abanyeshuri biga mu mwaka w'inshuke mu ishuri ryabo harimo udufoto twinshi tubafasha kwishimisha, harimo nk'udupupe, udukinisho dufasha abana kwiga kugira ngo babashe gufunguka mu mutwe.

Abanyeshuri barimo kugenda mumuhanda, impande y'uwo muhanda hateye indabo, ibiti, ndetse hari n'ikigo cy'amashuri, hari n'inyubako barimo kubaka.

Ibi ni ibikoresho byifashishwa mu isomo ry'imibare harimo incamurongo, agaca uruziga, irate ya mpande eshatu hamwe n'ikereyp.

Icyumba cy'ishuri, kirimo ibikoresho bifashisha mu mashuri abanza, harimo amakereyo, irati y'ubururu n'iy'umweru, harimo umukasi. Ibi ngibi byifashishwa mu gihe barimo kwiga isomo ry'imibare.

Ibikoresho byifashishwa n'abanyeshuri bo mu mashuri abanza, harimo amakereyo, pome, amakayi, ibitabo, n'imakasi.

Ibikoresho byifashishwa mu ishuri harimo: karikatirise, amakaramu, ingwa, imakasi, amakayi ndetse n'irati.

Iki ni icyumba cyo mu mashuri abanza harimo ibikore abanyeshuri bifashisha mu kwiga harimo amakiriyo, amakaramu, imakase n'agoma. Ibi bifasha abanyeshuri mu kwiga igihe barimo kwandika ndetse n'iyo banditse nabi bafite ibikoresho bifashisha bagasiba kugira ngo babone kongera kwandika ibindi.

Umwana wambaye umupira w'icyatsi urimo amabara y'umweru ku ngofero no ku maboko, impande ye hari umuntu wambaye itaburiya y'ubururu.

Aha ni ku kigo cy'amashuri hari inyubako yubatse mu buryo bwa etaje hafi y'inyubako hari n'aho abana baruhukira.

Ku kigo cy'amashuri abanza hari inyubako isakaje amabati y'ubururu, imbere y'iyi nyubako hari idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda, muri iki kigo kandi harimo ikigega cy'umutuku, imbere y'aya mashuri hari abantu bahagaze hanze.

Icyumba cy'amashuri abanza, harimo inyuguti, inyajwi, imibare nka rimwe, zeru, gatanu, karindwi, icyenda, ibingibi bifasha abana kumenya kubara, kumenya kwandika ndetse no gusoma.

Iki ni icyumba cy'ishuri, harimo ikibaho cy'umukara, hari amacaki, amakereyo, ibitabo na pome irambitse hejuru y'ibitabo.

Iki ni icyumba cy'isomero, harimo ibitabo bitandukanye bitondetse ku murongo, harimo amabara atandukanye by'umuhondo, umutuku, ubururu n'icyatsi.

Aha mu ishuri ririmo intebe, ameza ndetse n'akabati, harimo n'ibitabo, intebe zirimo ni umuhondo, umutuku ndetse n'icyatsi.

Abanyeshuri bo mu ishuri ry'inshuke bambaye impuzankano y'ishuri amashati y'umuhondo n'amajipo n'amakabutura y'icyatsi bicaye mu dutebe, imbere yabo hari umwana uhagaze ahetse igikapu cy'umuhondo.

Aha ni ku kigo cy'amashuri ya pirimeri, hari icyapa n'ubusitani buteyemo indabo.

Ibi ni ibikoresho bitandukanye abanyeshuri biga mu mashuri abanza bakoresha barimo kwiga harimo isaha, umunzani n'ibindi.

Mu bigo by'amashuri dusangamo amasomero haba harimo ibitabo bigiye bitandukanye, bifasha abanyeshuri mu kunguka ubwenge ahangaha turahabona agatabo gakoreshwa mu mashuri abanza, kanditseho uwera urugero rwiza, aka gatabo kari mu rurimi rw'Ikinyarwanda.

Abanyeshuri bo mumashuri yisumbuye, bahagaze hamwe bambaye impuzankano y'ishuri, harimo umunyeshuri umwe, wicaye inyuma yaho hateye ibiti.

Iki ni icyumba kirimo intebe, ameza na mudasobwa, imbere y'intebe hari mudasobwa.

Aha hari abanyeshuri ba segonderi bari kumwe n'abandi babyeyi, impande yabo hari ubusitani bwiza buteyemo indabo, hirya yabo hari abandi bagabo babiri bahagaze barimo kuganira.

Abantu benshi bahagaze imbere y'inyubako yanditseho Administration Block. Abenshi muri bo bambaye amajire.

Aha ni ku kigo cy'amashuri, mbere y'ishuri hari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda hateye indabo, hari ikigega cy'umukara, hafi yaho hari umuntu.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bicaye hamwe bambaye impuzankano y'ishuri, imbere y'ameza hari abagabo babiri b'abazungu hari n'undi mugabo w'Umunyarwanda n'umugore w'Umunyarwanda wambaye ikanzu, imbere yabo hari ameza arambitseho telefone.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye harimo abakobwa ndetse n'abahungu. Abanyeshuri benshi bambaye imipira y'umuhondo ndetse n'icyatsi. Harimo umugabo ubyibushye wambaye marinete, isaha ku kuboko n'ingofero y'umuhondo, yegeranye nundi mugabo wambaye ijire. Muri bo kandi harimo n'umugore wambaye umupira w'ubururu na marinete.

Umunyeshuri w'umukobwa ufite umusatsi, yambaye ishati y'umweru na karuvati y'umweru n'umukara.

Aba ni abanyeshuri bari hamwe, bambaye impuzankano y'ishuri: imipira y'umuhondo n'amapantaro ya kake, inyuma yabo hari ishyamba.

Aha ni mu kigo cy'amashuri yisumbuye, turabona abanyeshuri b'abakobwa bambaye amashati y'umweru, karuvati, amajipo ya burerifonse, inkweto z'umukara n'amasogisi y'umweru, bose bahagaze ku murongo.

Abarimu bari imbere y'ishuri bose bambaye udupfukamunwa, bambaye amataburiya y'umweru, bafite na mudasobwa mu ntoki, imbere y'aha hantu bari kandi hari n'indabo.

Abanyeshuri bahagaze bambaye imyenda y'ishuri, bambaye umweru hejuru, kaki hasi, bari kumwe n'undi muhungu wambaye agapfukamunwa k'umukara, ishati y'umuhondo, ikote ry'umukara n'ipantaro y'umukara.

Aha ni mu kigo cy'amashuri yisumbuye, harimo abagabo n'abagore, bambaye amajire, harimo n'abambaye ingofero z'umuhondo, impande yabo hari intebe zitondetse ku murongo z'ubururu, hagati harimo ameza ariho igitambaro cy'ubururu.

Ibigo byinshi usanga abanyeshuri bambara inkweto z'umukara n'amasogisi y'umweru. Aha ngaha turabona abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano y'ishuri, bose baricaye kandi bambaye amasogisi y'umweru n'inkweto z'umukara.

Aha ni ku kigo cy'amashuri, kuri iki kigo cy'amashuri hateyemo ibiti byinshi, hari n'ipoto ririho insinga z'amashanyarazi

Abanyeshuri bari mu ishuri bicaye mu magurupe, bafite amakayi imbere yabo, amakaramu na karikatirise.

Ahan ni mu kigo cy'ishuri ryisumbuye, hari abanyeshuri bahagaze imbere y'ishuri, bambaye impunzankano y'ishuri, bamwe bambaye amashati n'imipira, abandi bambaye amashati gusa, hari abahagaze n'abapfukamye, imbere yabo kandi hari indabo z'umuhondo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bambaye impuzankan y'ishuri. bambaye amashati y'umweru amajipo n'amapantalo bya kacye, bari mu rusengero aho tubona imbere hari abapadiri bahagaze kuri aritari, bambaye amakanzu azwi ku izina ry'ibishura.

Amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro amaze gutezwa imbere cyane aho usanga abanyeshuri benshi bashishikarizwa kwiga mu myuga ari byo bizwi nka TVET, aha ngaha harimo abanyeshuri bambaye amajire bamwe bambaye ingofero z'umweru, abandi iz'umuhondo, abandi ntazo bambaye.

Abanyeshuri barimo kwifotoza, bamwe barahagaze, abandi baricaye, abakobwa bambaye amakanzu, abahungu bambaye amakabutura n'amashati, hafi yabo hari inyubako, ifite amabati ndetse hari n'ipoto ku muhanda ririho insinga z'amashanyarazi.

Abanyeshuri b'abakobwa biga mu mashuri yisumbuye, bahagaze hamwe bambaye impuzankano y'ikigo kandi bose bishimye barimo guseka.

Iri ni ishuri ririmo abanyeshuri bambaye amashati y'umweru, umwe muri bo yambaye umupira w'umuhondo, imbere yabo hateretse mudasobwa ndetse hari n'umwarimu urimo kubigisha.

Aha ni mu kigo cy'amashuri yisumbuye harimo abana babahungu bahagaze, bafite udupapuro barimo gusoma. Abana bambaye amashati y'umweru hariho ibirango by'ishuri. Nkuko tubizi mu bigo bigiye bitandukanye, buri kigo kigira ibirango by'ishuri, ariyo mpamvu aba bana ku mashati yabo hariho ibirango bizwi ku izina rya isinye.

Ikigo cy'amashuri gisakaje amabati y'umweru, imbere y'aya mashuri hari jaride nziza iteyemo indabo ziriho utubara tw'umutuku, muri ubu busitani kandi hahagazemo umuntu.

Aha ni muri kaminuza hari inyubako isize amarangi y'umuhondo, imbere hari pubele y'icyatsi hari n'amapave, iyi pubele kandi ni yo bashyiramo imyanda.

Mu Rwanda hateye imbere ko mu mashuri ya kaminuza higamo abana batandukanye yaba abakobwa ndetse n'abahungu nkuko tubireba hano turimo turabona abana b'abakobwa bari mu muhanda bari kugenda biga muri kaminuza. Bari kugenda mu muhanda w'igitaka, impande y'umuhanda hateyeho ibiti.

Abantu bicaye hamwe bari kureba imbere bose bambaye imipira y'umuhondo, imbere ku meza hateretse amacupa y'amazi.

Iyi ni inyubako ifite inzugi zisize amarangi y'icyatsi, imbere muri iyi nyubako harimo puberi y'ubururu, hanze y'inyubako hari umuntu urimo kugenda wambaye ishati y'icyatsi n'ipantaro y'umukara.

Aha ni muri sale, hicayemo abantu benshi, barimo abagore n'abagabo, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye umupira w'umukara, arimo kubaganiza.

Ishuri ryo muri kaminuza, harimo abanyeshuri bicaye ku ntebe, ishuri ririmo intebe z'ubururu zifite akanu imbere bandikiraho, harimo n'ameza n'icupa rivamo amazi y'inyange.

Ubusitani temo ibiti bikikijwe n'inindabo, impande y'ubwo busitani kandi hari umuhanda wa mapave.

Inyubako yubatse mu buryo bw'inzu zigeretse. Hari umuntu uri kugenda hafi yayo, wambaye imyenda y'umukara. Imbere y'inyubako hateretse puberi y'icyatsi bashyiramo imyanda kandi hateye n'indabo.

Abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda, harimo abasore n'abakobwa, umwe arimo kwandika, undi afashe ikaramu mu ntoki, imbere yabo hari mudasobwa barimo kurebamo, hari na telefone irambitse ku ikayi.